Umuntu iyo agiye gukoresha inama mu bantu bagiye batandukanye, aba agomba kuba ameze neza akeye kugira ngo abamukurikiye bizere ibyo agiye kubabwira, bamukurikire batuje kuko babona abikwiriye.

Muri buri kagari kagize igihugu bagira isibo aho bagira umuyobozi uza akabagira inama, akababwira ku bintu bijyanye n'imihigo bakabagira n'inama yo kugira isuku, no kwitabira siporo n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Mu muco Nyarwanda hari ingoma za kera zabugenewe bavuza iyo bari kubyina imbyino Nyarwanda, n'iyo habaye ikindi gikorwa kirasaba ko haba harimo umuco Nyarwanda, hari ingoma bakoresha mu cyimbo cy'ibyuma.

Abantu babyina imbyino za kinyarwanda, bagira inifomo, baba bameze kimwe, babyina ibintu bimwe, ntawe ubusanya n'undi, bose baba baritoreje hamwe.

Buri gihugu kigira ubutabera ndetse bakarengera n'ubuzima bw'umuntu, muri urwo rwego bashyiraho abantu babishinzwe, harimo abasirikare n'abandi bashinzwe umutekano kuburyo ntamuntu n'umwe urenganywa.

Mu ubutabera na uburenganzira bwa muntu hashyizweho abantu bashinzwe umutekano harimo abasirikare, abapolisi, aba bose baba bareberera uburenganzira bwa muntu kugira ngo hatagira umuntu urenganywa.

Mu mihanda ya leta kenshi na kenshi haba hagomba kuba harimo imirongo igaragaza aho abagenzi bambukira, aho ibinyabiziga biranyura kugira ngo hataza kubaho impanuka zigiye zitandukanye, buri wese aba agomba kubyitaho akamenya aho ageze.

Mu mihanda ya leta hagendamo ibinyabiziga byose, harimo amapikipiki ibishushanyije neza ku buryo buri wese amenya uruhande aranyuramo ah'abanyamaguru naho hagaragara.

Umutekano no kugira ingamba nshya ku gihugu, abaturage bahuriza hamwe bagahuza imbaraga, bakareba icyatuma bagira umutekano, bakareba n'icyatuma buri wese yiyumvamo mugenzi we, niba ari umuhanda bakawukorera hamwe.

Imyidagaduro ni ubuzima, iyo umuntu abyibushye agakora imyidagaduro bituma abasha kugabanuka n'iyo afite ikibazo cy'uburwayi, uburwayi burakira; biba ari byiza iyo buri muntu wese agiye akora imyidagaduro n'imyitozo ngororamubiri.

Imihanda yo mu byaro akenshi iba irimo ibintu by'amabuye asa nk'aho ari menshi, biba bigoye ko wasanga umuhanda wo mu cyaro umeze neza nk'uko iyo mu mijyi iba imeze, kuko mu cyaro haba hagoye.